Akazu ka Airtel kari mu ibara ry'umutuku ndetse imbere harimo iry'ubururu, hari umuntu wagafunguye impande zose ku buryo kagaragara neza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapave, imbere yawo hari inzu nziza irimo ibyumba byinshi ndetse n'umutaka wa MTN urimo ibara ry'umuhondo.

Akayira karimo amapave yashaje hari akazu ka MTN kari mu ibara ry'umuhondo, imbere hicayemo umuntu utanga serivise z'icyo kigo cy'ubucuruzi.

Inzu isize amarange y'umuhondo hanze yayo hari akazu ka MTN kicayemo abakozi bayo batanu batanga serivise zitandukanye.

Abakozi b'ikigo cya MTN, bafite seritifika mu ntoki, bahagaze neza bari gufata ifoto. Ni ikigo gifasha abantu mu buryo bw'itumanaho.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ibinyabiziga bitandukanye nk'ikimodoka kinini cyaLTCO, gitwara abagenzi benshi, kibavana ahantu hamwe, kibajyana ahandi.

Ahantu hari umuhanda w'igitaka hicaye umukobwa wambaye agapfukamunwa k'ubururu, umupira w'umweru ndetse n'ijire y'abakozi ba MTN, imbere ye hari agasanduku akoreraho.

Inzu isize irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo, ahakorera MTN, hicayemo umugore uri gutanga serivisi ndetse n'undi uje amugana.

Abakozi b'ikigo cy'itumanaho, kizwi nka Airtel, bambaye imipira, umwe umutuku, undi uw'umweru, bafite telefone ya Airtel mu ntoki.

Abantu benshi bahagaze hamwe bafata ifoto, bafite icyapa cyanditseho ngo akira icya cumi hamwe na Airtel ubu ibintu byaroroshye.

Umuhanda wa kaburimbo ku nkengero hubatse amazu akorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, hari kandi akazu ka eyateri kari mu ibara ry'umutuku.

Akazu ka MTN, kari mu ibara ry'umuhondo, aho imbere harimo umukozi waho, ndetse n'umukiriya waje amugana, uri kumuhereza amafaranga ngo amufashe.

Ku umuhanda ahari ibyapa by'itumanaho bya Airtel hari umugore wambaye ishati n'ipantaro y'ikoboyi, uhagaze imbere ya moto nayo iri mu mabara y'umutuku yanditseho Airtel.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo abagenzi, ibinyabiziga nka moto, igare n'imodoka aho hari ku nkengero abantu bacururiza mu mitaka ya MTN na Tigo.

Ikibuga kigari cyane kirimo itente ryubatse mu mabara y'umweru n'icyatsi, harimo abantu bafite imitako igiye iri mu mabara atandukanye, ndetse n'umugore ufite indangururamajwi.

Imifuka myinshi ya rugano ipakiyemo ibintu bigiye bitandukanye, aho iyo bamaze gusarura baza bagahunika kugira ngo ababikeneye yaba abagurisha ndetse n'abaguzi babibone ku buryo bworoshye.

Ihema ririmo abantu benshi cyane, imbere hahagaze umudaso wambaye imyenda y'akazi, aho abana n'ubumuga bwo gucika akaboko, ari guherezwa seritifika y'ishimwe.

Umukecuru ugeze mu za bukuru yambaye umupira w'umutuku, akenyeye igitenge, yarambije hasi, aho ari kubumba amavase ashyirwamo indabo.

Icyumba kirimo abantu benshi cyane, hari umugabo uhagaze imbere wambaye ishati ya kaki ndetse n'undi wambaye kositime, uri kumuhereza icyemezo cy'ishimwe.

Abagabo babiri bari kuganira, iruhande rwabo hari moto, iziritseho ibicuba by'amata, byifashishwa mu kuyagemura, ahantu hagiye hatandukanye.

Icyumba kirimo abantu b'ingeri zitandukanye, aho hari umugabo n'umugore bicaranye, imbere yabo hari amapera ndetse na wota meloni ndetse na mudasobwa.

Ikibuga kinini cyane cyubatsemo ihema riri mu mabara y'umuhondo, umweru ndetse n'icyatsi hicayemo abantu benshi imbere yabo hari umugabo wazamuye igikombe.

Isoko rusange ririmo ibicuruzwa by'amoko yose nk'amashu, ibitunguru, inyanya, pavuro, imyenda, ibikapu n'ibindi bitandukanye, aho waza ukihahira.

Umugabo wambaye ishati y'umukara, isaha ufite indangururamajwi mu ntoki, hubakishije ibitambaro by'icyatsi ndetse n'umuhondo, imbere ye hari akantu ahagazeho.

Inkoko nyinshi ziri hamwe bagiye bashyira mu tu etageri dutandukanye, aho zitanga umusaruro ugiye utandukanye yaba uw'inyama cyangwa se uw'amagi.

Imbaga y'abantu b'abayobozi yateraniye hamwe, iri kumwe n'abaturage bari gucuruza inanasi nziza cyane, aho bagira bati koperative ahazaza heza kuri buri wese.

Abanyacyubahiro batandukanye, abagore ndetse n'abagabo bahagaze imbere aho bari gufata ifoto y'urwibutso, abagabo bambaye kositime naho abagore bambaye amakanzu y'amabara meza.

Icyumba gisize irangi ry'mweru gitoya cyicayemo abagore batatu ndetse n'umugabo umwe, ku meza hariho: mudasobwa, amakaye, amakaramu ndetse hateretse n'ishakoshi.

Mu kibuga kigari kirimo ibyatsi, hubatsemo itente riri mu mabara y'umweru, umuhondo, icyatsi n'ubururu hicayemo abantu benshi, imbere yabo hari umugore uri kubagezaho ijambo.

Itente ridekoje ibitambaro by'umweru, harimo abantu benshi bazanye ibicuruzwa byabo, kugira ngo bibone abaguzi, yaba inkweto zifunguye, izifunze ndetse n'imyenda.

Katine irimo ibicuruzwa bitandukanye nka keke, capati, icyayi, inzoga zipfundikiye ndetse n'ibirahure batangiramo amata, aho wabagana ugafata icyo wifuza.

Icyumba cyiza cyane, kirimo utubati, duteretsemo inzoga z'amoko yose, aho hari umukobwa uzicuruza, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, kandi hari Firigo, bashyiramo kugira ngo zikonje.

Amacupa arimo inzoga zihenze gusa, aho akunda kunyobwa n'abifite, n'inzoga zisindisha aho uyinyweye agenda afata gake gake kugira ngo ataza kunanirwa gutaha.

Iduka ririmo ibintu bigiye bitandukanye, hari amavuta yo guteka, pampa, bureba, imyenda, amasukari, ibishyimbo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imbuga irimo amapave ni isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, higanjemo inkweto ndetse n'imyenda. Hari igare riryamye hasi, ridafite umuntu uritwaye.

Iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nka mayoneze, amavuta yo guteka, isukari umuceri, akawunga, ifu y'igikoma ndetse n'ibindi byose, bigiye bitandukanye.

Iduka ririmo ibikoresho, bitandukanye, ni rigari cyane. Aho bafite, ji, amavuta yo guteka, imiceri, kawunga, amajyane, ndetse n'ibindi.

Iduka rikoreramo umukobwa, harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'amavuta yo guteka, ayo kwisiga, umuceri, akawunga, isukari n'ibindi byinshi.

Akabati karimo situruwaya yifashishwa mu koza ibintu byari byaranduye, cyane cyane abantu bayikoresha bakuba amasafuriya ariho imbyiro kugira ngo yongere kugira isuku bayatekemo.

Isoko ririmo ibicuruzwa, byiganjemo amakanzu y'ibitenge y'abagore ndetse n'ibikapu, harimo kandi imashini zidoda imyenda iyo ariyo yose.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye aho hari ibiri mu ibase, mu bicupa ndetse n'ibindi biri mu dushashi, hicayemo umugore wambaye ibitenge.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'ibirungo bishyirwa mu isosi, inyanya, akajerekani k'amavuta, umuceri, amacupa y'amazi n'ibindi bitandukanye.

Iduka ririmo ibikoresho byinshi, nk'amakaroni, bombo z'ubwoko bwose, biswi, umuceri. Harimo kandi abagabo babiri batanga ibyo bicuruzwa.

Icyumba kirimo abagore ndetse n'abagabo, ubona ko ari abanyacyaro ndetse imbere yabo hari undi ufite telefone uri gufata amashusho kandi iyi nzu isize irange ry'umuhondo.

Inzu yubakishije amatafari ahiye imbere yayo hari abantu bari gufata ifoto y'urwibutso barimo abagororwa bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Sale nini cyane, yakira abantu benshi, hejuru harimo parafo n'amatara yaka neza, hicayemo abantu benshi cyane, ku ntebe zifite ibara ry'umweru, ndetse hasi hakotejwe isima.

Urusengero rudekoje amabara y'umuhondo, icyatsi, umweru n'ubururu, harimo abakirisitu benshi bari kuririmba bishimye cyane, kuri ubu izitujuje ibisabwa zarafunzwe.

Imbaga y'abantu benshi cyane, hari abitwikiriye imitaka, hari izuba ryinshi cyane. Ni ahari kiliziya, yubatse neza ndetse ifite n'umusaraba hejuru.

Kiliziya gatulika aho hahagaze umupadiri wambaye igishura cy'umweru ndetse na kaki, iruhande rwe hahagaze abagabo bamukikije, bafite udukarita tw'umuhondo bari gufata ifoto.

Icyumba basengeramo harimo abagabo, abagore ndetse n'abakecuru bakenyeye imikenyero, aho bari gusenga bamwe bahagaze abandi bapfukamye bambaza Imana yabaremye.

Ikibuga kirimo abantu bambaye impuzankano zifite amabara asa, bahagaze ahantu hari amapave ndetse akaba ari ku rwibutso.

Inzu yashaje cyane wagira ngo nta bantu bakibamo ariko si byiza ko umuntu yayibamo, kuko imvura iguye ari nyinshi yamusenyukiraho akahaburira ubuzima.

Inzu nini cyane hejuru iriho umusaraba aho ari Kiliziya Gatulika y'i Kabgayi yubatswe n'abamisiyoneri isengerwamo n'abantu b'ingeri zose.

Inzu nini cyane yubatse mu buryo bwa gihanga, iriho amatafari ahiye, amadirishya ariho irange, ry'umweru, ndetse n'amatara. Mu mbuga yayo hari ubusitani, burimo pasuparume.

Imbaga y'abantu benshi harimo intebe z'umweru zigiye zicaweho, aho hari umukecuru ufite telefone mu ntoki ari kwereka umukobwa umuhagaze iruhande.

Muri hoteli ushobora gusohokera wowe n'umuryango wawe, hari ameza ateretseho ibiribwa by'amoko yose biri ku masahani ndetse n'udukombe tw'icyo kunywa.

Hoteli ifite ibyumba byiza cyane aho kimwe gishashe neza amashuka y'umweru, inzitiramibu zirinda imibu, amarido meza cyane kugira ngo batakurunguruka.

Icyumba cyiza cyane kirimo amafoto, amatara yaka neza ku mpande ebyiri, supanete irinda imibu ndetse n'igitanda gishashe neza cyane.

Inzu nziza zubatse mu buryo bugezweho aho zisize amarangi y'umweru, amabati asize irangi ry'umutuku, hanze hakaba hari pisine ndetse n'ubusitani bwiza, bigufasha kuruhuka.

Ahantu heza habereye ijisho hari amazu y'ubwoko bugiye butandukanye, hariho amabati y'umutuku ndetse akaba asize irangi ry'icyatsi ku madirishya, harimo ubusitani bwiza cyane.

Icyumba giteguye neza, aho hari amatara yaka mu rumuri rw'umuhondo, amarido y'ikake ndetse n'umweru, intebe yegamirwa ndetse n'iy'imisego n'ameza ariho imashini.

Shitingi iri mu ibara ry'umukara hasutseho ibitunguru byinshi cyane by'umutuku, ndetse hicaye umugore wambaye ibitenge uri kugenda abifungamo imifungo.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'inkweto, imyenda, amabasi, ibikapu ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo abaguzi benshi ndetse n'abagurisha.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo abantu benshi yaba: abagore, abagabo, abakobwa n'abasore, bikoreye imitwaro iremereye cyane.

Umuhanda w'igitaka ahari inyubako zigiye zitandukanye, hari urujya n'uruza rw'abantu, abacuruza n'abahaha ndetse n'abajya mu byerekezo bitandukanye.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'inkweto, imyenda, ndetse n'ibyo kurya ntabwo ryubakiye igihe imvura iguye, ibicuruzwa byabo bishobora kunyagirwa bikangirika.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hari abaguzi n'abagurisha bagiye batandukanye, mu muhanda harimo umunyonzi uhetse imifuka myinshi, ari kugenda asunika ku igare.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'ibikapu, udukabutura, ibitambaro byo mu mutwe, ibitenge n'imyenda y'abana, rikaba rishakakaje ihema ry'ubururu.

Isoko rya kijyambere ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'inyanya, avoka, imineke, ibitunguru ndetse n'ibindi bitandukanye aho harimo n'abacuruzi ndetse n'abaguzi baje gushaka ibyo bagura.

Icyumba kitabona neza kubera amatara yaho, hicayemo abantu biganjemo abakobwa, imbere yabo hahagaze umusore uri kubaganiriza. Hagati yabo hari ameza ateretseho inzoga ndetse na fanta.

Hotel ifite ibyumba ndetse ubishaka ukaba wakwiyicarira hanze, hari udutebe twiza ndetse n'ameza ateguye neza, wahasohokana abantu benshi cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bya moto, imwe nta mugezi ifite naho indi itwaye umufuka munini wa rugano, hakurya hari ibiti byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo uriho korudire, harimo amagare atwaye umuntu ndetse n'ibitoki byinshi cyane bipakiye, hariho igiti ndetse n'umugozi ubiziritse.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'imodoka na moto, hirya hari amazu ya konoshi ari mu ibara ry'umuhondo. Haruguru yayo hari ishyamba ryinshi cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umunyonzi uhetse agafuka n'inkoni mu ntoki ndetse n'umumotari utwaye umugenzi, aho inyuma yabo hari amazu atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, aho hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikigina biri imbere kuri moto, ndetse hepfo hari insinga z'amashanyarazi n'amazu yubatse neza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cya moto, hicayeho umugabo wambaye ikoti rya kaki, ipantaro n'inkweto z'umukara, afite agakapu imbere mu mahembe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cya moto, aho atwaye umugore kuri moto ye, hirya y'umuhanda hari ibiti birebire, bifite n'amashami.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto itwaye umugenzi, ku nkengero zawo hari akayira k'abanyamaguru, kari kugendamo umukobwa umwe ndetse hari n'igiti cy'umwembe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cya moto gitwaye umugenzi umwe mu kayira k'abanyamaguru hari umugabo uri gutambuka yambaye ishati ya move.